Umugore arimo araka serivisi zo kubika no kubikuza mu kazu kabigenewe kakaba gasa umuhondo. Aho aka kazu ibyo bakora byanditse mu nyuguti z'umukara ndetse n'umutuku.

Imodoka ziparitse ku muhanda abantu barimo baragenda mu muhanda, banaka serivisi zo kubika no kubikuza kuri terefone, haba imodoka ziparitse harimo izisa imweru n'izisa n'ubusa.

Inama yahuje abaturage ndetse n'abayobozi. Iyi nama ikaba yabereye mu ihema ryubatswe rya kijyambere. Bakaba bicaye mu byatsi, hakaba hari intebe zisa umweru.

Ihuriro ry'abantu ryoroye inkoko, ku buryo bwa kijyambere, aho izi nkoko ari inkoko zitera, zikaba zororerwa mu nzu aho zihera ibiryo ndetse n'amazi, hakaba harimo umukobwa uri gutoragura amagi zateye.

Umugore w'umuhinzi ari kumwe n'umugabo, bakaba bari mu murima aho barimo gusarura umuceri, bakaba bawusarura bakata impegeri zo hejuru.

SAbaturage baje mu imurikagurisha, aho baje kumurika ibyo bakora, hakaba higanjemo inanasi, abaturage b'abahinzi bakaba bambaye impuzankano y'imipira y'ubururu.

Abagore banitse imyaka, bakaba bari mu gishanga aho bahinga, bakaba bari guhinga bamwe, hirya hakaba bahinze ibisheke ndetse banahatuye.

Ikigo k'imari ziciriritse, aho iki kigo gishinzwe kuguriza, kubika ndetse no gutanga serivisi zijyanye no gucuruza amafaranga. Kikaba cyubakishije amabati asa nk'umutuku.

Ihuriro ry'abahinzi rikaba byiganjemo abagore n'abagabo. Bakaba baje gusura imyaka yabo. Aho iyi myaka izengurutswe n'ibiti uretse...

Abaturage baje mu imurikagurisha, aho barimo baramurika ibyo bakora byerekeranye n'ibikoresho by'isuku birimo isabune, ndetse abandi bakaba bazanye ibikoresho by'ubugeni bakaba bambaye impuzankano y'imipira y'ubururu.

Ikigo cy'imari giciriritse, aho iki kigo cyubakishije amatafari ahiye. Kikaba gisakaje amabati y'umutuku. Kikaba gisize amarangi y'umuhondo.

Ishoramari muri Nyagatare, umugabo arimo arasobanura iby'ishoramari mu Akarere ka Nyagatare, akaba yambaye ishati y'umweru, n'aho inyuma igikuta kikaba gisa ubururu.

Akabari bacururizamo ibyo kunywa cy'inzoga harimo abagabo batatu, hakaba hasa irange ry'umutuku ndetse hakaba harimo amatara amurika umweru, hakaba hasa n'ahijimye ariko atari cyane.

Aho abantu bicara baganira kandi bafata icyo kunywa n'icyo kurya, hakaba hari intebe zisa umukara n'ameza y'umukara, hakaba hubakishije ibirahuri by'umweru, naho amadirishya n'inzugi bikaba bisa icyatsi.

Iduka ricururizwamo ibyo kunywa, rikaba ricururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, birimo ibinyamutobe ndetse n'ibinyobwa bisembuye, bikaba bicururizwa muri iryo duka.

Iduka ricuruzwamo ibicanwa, ibicanwa bikaba ari ibicanwa bigezweho byumwuka bidatera umwotsi. Akaba ari iduka riri ku muhanda rikorera mu nzu isa umweru.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo indobo, bombo, isukari, amavuta ndetse n'umunzani.

Iduka ricururizwamo ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho umuntu yakoresha mu rugo ndetse n'iby'abanyeshuri bakoresha, harimo amakayi ndetse n'ibinyobwa by'umutobe ndetse n'ibisembuye.

Iduka ricururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo; umuceri, amavuta isabune, akawunga, umunyu ndetse n'isukari.

Isoko ririmo abagore bari gucuruza inyanya, ikibirit,i amamesa, karoti, ubuto.

Iduka ricururizwamo imyenda y'abagabo ndetse n'iy'abagore, akaba iy'abagore igizwe n'amakanzu, naho iy'abagabo, akaba ari iy'amashati ndetse n'amapantaro.

Iduka ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, harimo umunyu, amavuta, isukari, umuceri ndetse n'isabune.

Inzu y'ubucuruzi, ikaba icururizwamo ibintu bitandukanye, birimo, intebe, birimo n'igikoropesho ndetse n'ibasi, mbere yayo hakaba haparitse imodoka.

Iduka ricururizwamo amavuta yo kwisiga ndetse n'imbavu bitera ihumura, bakaba mu mavuta bisiga harimo igikoto ndetse n'amavuta y'amazi.

Iduka ricururizwa mo ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho rikaba riri gucuruzwa mo n'umugore, akaba ari gucuruza amazi ndetse n'ibindi binyamutobe.

Umuvugabutumwa, umupadiri akaba ari kwigisha abanyeshuri, bakaba abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu bwerurutse hejuru, aho uyu mupadiri akaba yambaye ikanzu yera n'ingofero itukura.

Ikiliziya abantu basengeramo aho iki kiliziya cyubakishije amatafari ahiye, kikaba gisakaje amabati y'umutuku ku mpande hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti.

Mu kiliziya, barimo barakira impano ya polisi y'igihugu, yitwa gerayo amahoro, ikaba iri gutangwa n'umupolisi, ubishinzwe.

Icyumba bararamo kikaba kirimo igitanda isa umutuku, hakaba harimo uburiri bushasheho amashuka y'umweru, imisego y'umweru, igikuta kikaba gisize irangi ry'umweru.

Aho abantu bidagadurira, hakaba hari amazi ndetse hakaba hari n'ibyatsi, akaba ari utuzu twageneyemo abantu, bicaye bari kuhukiramo ndetse ku mpande hakaba hateye ibiti birebire.

Aho wacumbika, ukaba wahasanga ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Hakaba hubatse inzu zigeretse. Hakaba imbere ya ho hateye ubusitani burimo ibiti by'imikindo, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aho wacumbika cyangwa ukagura icyo kurya n'icyo kunywa. Aha hantu hakaba hazengurutswe ubusitani bw'indabyo z'icyatsi. Hakaba ku nzugi hariho inzugi z'umukara ndetse n'ibyapa biranga aho hantu.

Icyumba cy'aho bafata amacumbi ndetse ukaba wahafatira icyo kurya n'icyo kunywa. Akaba ari icyumba kinini cyane, aho abantu bicara bategereje gufata amafunguro. Hakaba hari intebe ndetse n'amavaze azamuyemo indabyo.

Icyumba cy'inzu wabonamo aho kurara ndetse n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Hakaba hubakishije ibirahure byererana, ndetse iyi nzu ikaba yubatse igerekeranye. Mo imbere mu cyumba hakaba harimo intebe zisa umweru ndetse n'umukara.

Inzu bararamo, ikaba igizwe n'uburiri bubiri, hakaba harimo igitanda gisa umukara, amashuka y'umweru, n'imisego y'umweru, kikaba ku gikuta gisa umukara, kiriho amatara yerurutse.

Icyumba cy'aho wacumbika cyangwaga ukahakura ibyo kurya n'ibyo kunywa. Akaba ari icyumba kirimo intebe zisa ubururu n'ameza z'umweru ndetse hirya hakaba hari n'izindi zisa ubururu bw'ikirere, akaba ari ahantu ho kuganira.

Hanze ku ibaraza aho bafatira icumbi cyangwa icyo kurya n'icyo kunywa, hakaba hicaye umukobwa wambaye ikanzu itukura n'undi uri kumusukira icyo kunywa, hakaba intebe bicaraho zisu umukara, hanze hakaba hari ubusitani bugizwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti.

Inzu wafatiramo icumbi cyangwa ukahaka icyo kurya ndetse n'icyo kunywa. Hakaba hubatse n'ibikuta bisa umweru. Hejuru ikaba isakaje amategura. Imbere y'iyi nzu hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'indabyo zisa icyatsi cyanga umutuku.

Icyumba cya hoteri, kirimo intebe, kirimo n'ameza ariho ibitambaro by'umutuku, kiriho amasahani y'umweru ariho udutambaro tw'umweru, harimo amatara y'umuhondo.

Icyumba cy'aho bafatira ibiryo cyangwa amacumbi hakaba hari abatwara ibiryo babishyira abakiriya aho bambaye impuzankano y'ishati imbere ndetse n'akajire k'umutuku.

Inzu bafatiramo amacumbi, ikaba ari inzu yubatse igerekeranye hasi hejuru, ikaba imbere yayo hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'uduti dutoya.

Abagore bari mu isoko, bari gucuruza imboga, inyanya n'intoryi. Kandi abagore ,bakaba bambaye amakanzu ,ndetse abandi bambaye ibitenge.

Isoko ribera ku muhanda. Aho abaturage baje guhaha, ibyiganjemo imboga, ndetse n'imbuto. Hakaba ku mpande hari amaduka acuruza ibiryamirwa, ndetse n'ibindi. Hakaba hubakishije, hasize amarangi y'umweru.

Abagore bikoreye ku mutwe barimo baragenda mu muhanda wa kaburimbo bagiye mu isoko, bakaba bari imbere y'amazu asa irangi ry'ubururu, abandi bakaba bari imbere y'amazu asize irangi ry'icyatsi.

Imitungoru, biri kugurishwa ku isoko, hakaba hari na betarave, ibitunguru bimwe bakaba bishyize ku munzani, umunzani ukaba usa, ibara ry'ubururu.

Isoko ricururizwaho ibikoresho, umuntu akoresha byo mu rugo, birimo icyuma, ikanya, irushe, akamamiyo, akayunguza ndetse n'imifuka.

Isoku icururizwamo ibyokurya bitandukanye, ari byo imboga, karoti, inyanya, ibitunguru ndetse n'imboga zisanzwe.

Isoko bacururizamo imyenda, hakaba harimo n'abadota imyenda, hakaba bamanitsemo imyenda myinshi cyane cyane iy'abagore, hakakaba harimo n'ibiringiti.

Abagore bari mu isoko, umwe yambaye ijipo itukura n'umupira w'umweru, akaba yikoreye ibase ku mutwe, akaba afite ibikombe mu ntoki. Undi akaba yambaye umupira w'umuhondo, akaba yikoreye ikarito mu mutwe.

Inzu yaho wabona icyo kurya ndetse n'icyo kunywa akaba ari inzu yubatse igerekeranye, ikaba yubatse isa umuhondo wo ku rukuta naho ibirahuri bikaba bisa umweru imbere yaho hakaba hateye ubusitani.

Umugabo akaba atwaye imodoka. Iyo modoka akaba imodoka yo mu bwoko bw'imodoka butoya. Akaba ari imodoka zo kugendwamo. Akaba yambaye ishati y'ubururu bw'ikirere.

Imodoka irimo iragenda mu muhanda wa kaburimbo, aho iyi modoka ikurikiwe n'abatwaye amamoto, ikaba ku mpande hubatse inzu zise amarangi y'umweru, ziriho n'ibyapa bya oranje.

Ipikipiki ikaba ihetse imifuka y'ibirayi ndetse n'ibitoki, ikaba itwawe n'umugabo wambaye imyenda y'imikara.

Umusore atwaye igare muri kaburimbo, aho uyu musore yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru ndetse umuhanda munsi yaho hakaba hubatsemo inzu.

uUmugabo atwaye undi, kuri moto, bakaba barimo baragenda mu muhanda wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'indabyo ndetse n'ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda.

Imodoka ikaba isa ubuhuru, ikaba itwawe n'umukobwa, ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hubatse inzu zo kubamo.

Umugabo atwaye igare mu muhanda wa kaburimbo aho uyu muhanda uba usa umukara, ku nkengero z'umuhanda hakaba hateye ibiti, hakaba hubatse n'amazu.

Moto ikaba irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ukaba uyitwaye yambaye akarindamutwe k'icyatsi n'ikirahure cy'umweru imbere, akaba moto isa umutuku.

Ipikipiki irimo iragenda mu muhanda, ikaba itwawe n'umugabo, akaba ahetse umugore. Ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hari ibiti bihateye.

Umugabo atwaye moto itukura, isa umutuku yambaye ijire itukura akaba ahetse umugore, hirya y'umuhanda hakaba hateye ibyatsi n'ibiti, hakaba bubatse amazu, moto ikaba igenda muri kaburimbo.

Ipikipiki y'amashanyarazi, aho iyi pikipiki isa umutuku, ikaba ifite ikibika umuriro gihabwa gisa umuhondo, ikaba itwawe n'umusore wambaye umupira imbere ndetse n'ijire y'umutuku inyuma.

Umugore w'umutwazi wa moto. Yambaye jire y'umutuku, kasike y'icyatsi ifite ikirahure cy'umweru. Moto ifite uturebanyuma tw'umukara.

Abatwara amapikipiki bakaba bahagaze. Bakaba bari aho bashakira abagenzi ku muhanda. Bakaba bambaye impuzankano y'amajire y'ubururu avanzemo ikigina.

Abasore batwara amagare, bakaba bambaye impuzankano y'icyatsi, amagare yabo akaba ariho imisego yabugenewe abagenzi bicaraho.